Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bamwe bicaye abandi bahagaze, iruhande rw'inzu yubakishije imbaho ziri mu ibara ry'ubururu.

Abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, uhagaze hejuru y'imifuka myinshi, bateruranye umufuka w'umweru, abagore bateza ibitambaro mu mutwe.

Umwana usutamye wambaye ikabutura ndetse n'umupira bisa nabi, ntiyambaye inkweto mu birenge ari guterura indobo, imbere y'iwe hari iriba rusange.

Abana benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bahagaze iruhande rw'iriba rusange harimo umwe uri kuvoma n'undi ufite utujerekani tubiri mu ntoki inyuma yabo hari ibyatsi.

Ikivunge cy'abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, haruguru yabo hari inyubako imanitseho icyapa, ku ruhande hari ihema ry'ibara ry'umweru, hari n'ibendera riteye hagati y'aho hombi.

Abantu bicaye mu buryo bw'uruziga bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara zirimo utudomo, bicaye bazengurutse ameza, hari ibitambaro bihindura urumuri byo mu ibara ry'umukara bimanitse ku idirishya.

Abagore babiri bunamye iruhande rw'iriba, umwe yambaye agapfukamunwa mu isura ari gukaraba intoki, undi ari kunywera amazi ku biganza, haruguru yabo hari undi mugore wambaye agapfukamunwa mu isura n'umupira utukura uhagaze hari n'injerekani.

Abana babiri bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bateruranye indobo yicyatsi, bahagaze iruhande rwa kano hakurya yabo hateye ibiti.

Abana babiri bahagararanye umwe ari guseka yahinnye umupira kugera mu nkokora yatezeye ibiganza, undi ari kumusukira amazi ku biganza akoresheje igikombe bagaragara igice k'igihimba.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo umukobwa wambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufiya n'ingofero y'umweru mu umutwe n'agapfukamunwa uri gushyira akantu mu kanwa k'umwana wasamye.

Abantu benshi bahagaze hamwe, inyuma yabo hahagaze abandi, inyuma hari icyapa kiri mu mabara abiri, harimo ubururu ndetse n'umweru, cyanditsemo amagambo.

Icyumba cyicawemo n'abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu bazengurutse ameza yo mu ibara ry'umukara ateretseho amacupa.

Umugore ukenyeye igitenge kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umupira uciyemo imirongo uhagaze iruhande rw'iriba afite injerekani y'umuhondo inyuma ye hagaragarara imisozi iteyeho ibiti ndetse n'ibyatsi.

Abagore batatu bakenye ibitenge bateze n'ibitambaro mu mutwe bicaye imbere y'umugore wambaye taburiya y'umweru bateze igitambaro umutwe cyo mu ibara ry'umukara bafite n'ikaramu mu ntoki.

Umwana wambaye ishati y'icyatsi kibisi ndetse n'ikabutura, wunamye yateze ibiganza ku mazi ari kuva muri kano, inyuma yiwe hateye ibiti byinshi.

Umugore w'umuzungukazi, wambaye umupira w'amaboko magufiya n'isaha ku kuboko, afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari icyapa.

Abantu bahagaze hamwe, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye ndetse n'udupfukamunwa, harimo umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ingofero mu mutwe ari gushyira akantu mu kanwa k'umwana wicaye wasamye.

Umwana uri guseka wikoreye injerekani ku mutwe iriho icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru, iruhande rwe hari umugabo uri guseka wambaye umupira w'ubururu, ukuboko kwe gufashe ku njerekani.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hicaye abandi bantu batatu, inyuma yabo hagaragara icyapa cyo mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umweru.

Abagore babiri bakenyeye ibitenge, umwe yateze igitambaro mu mutwe undi yambaye ingofero, bateruranye umufuka w'umweru, bawerekeza ahandi hari imifuka myinshi ndetse n'abantu.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru ufite imisatsi iboshye ku mutwe, afite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'igitabo, mbere y'iwe hicaye abantu bicaye mu ihema bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Abantu basutamye bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufiya, inyuma yabo hahagaze abandi bantu, inyuma hagaragara icyapa cyo mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo.

Umwana wambaye ishapule mu ijosi n'imyambaro igaragara nk'impuzangano y'abanyeshuri iri mu ibara ritukura, uri gukaraba intoki. Imbere ye hari ibase.

Abana b'abakobwa ndetse n'ab'abahungu, bambaye impuzangano zisa ziri mu ibara rya kaki, bahagaze iruhande rwa kano ziri kuvamo amazi, ari kugwa mu ndobo zifite ibara ry'umuhondo.

Umwana mutoya wambaye ikanzu ndetse n'ishati mo imbere, ikanzu yo mu ibara ry'ubururu n'ishati y'umweru, wunamye iruhande rwa robine, imbere ye hari indobo nini y'icyatsi kibisi, inyuma ye hari inyubako.

Umwana mutoya wunamye, wahinnye umupira akawugeza hejuru y'inkokora, iruhande rw'indobo y'umweru ndetse n'ubururu iteretse ku meza.

Abantu benshi bahagaze mu gisambu, higanjemo abambaye impuzangano zisa zirimo ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari ihema ry'umweru ndetse n'ibiti.

Abana batoya bambaye impuzangano zigaragara nk'iz'abanyeshuri, ziri mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hahagaze abantu bakuru, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Abantu benshi bambaye amataburiya asa, bahagaze hamwe, hagati yabo bahagaze umugabo wambaye ikote n'ipantaro by'umukara, afashe ku rutugu babiri begeranye.

Umugore wambaye umupira urimo amabara menshi, harimo umuhondo umukara ndetse n'umweru, yambaye agapfukamunwa, yambaye isaha ku kuboko ndetse n'impeta ku rutoki, ateruye umwana mutoya, afite n'imisatsi iboshye ku mutwe.

Umugabo usutamye wambaye amadarubindi ku maso, afite isahani mu ntoki ari guhereza ibiryo ku kayiko umwana uteruwe n'umugore, wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufiya.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bahagaze iruhande rw'akazu k'amazi, imbere yako hateretse injerekani zo mu ngano zitandukanye, higanjemo izifite ibara ry'umuhondo.

Abana bambaye imipira isa bicaye hasi, hari n'abandi bantu bapfukamye imbere yabo, bafite ibikombe mu ntoki bari kubanywesha.

Icyumba gifite ibikuta by'umweru ndetse n'inzugi zifunguye, kicayerimo abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Umugore wambaye imyambaro igaragara nk'impuzangano y'abaganga, ufite urushinge rwo kwa muganga mu ntoki, yaruteye ku kuboko k'umwana uteruwe n'umugore, uteze igitenge mu mutwe.

Umugore wambaye imyambaro y'igitenge, ateseze igitambaro cy'igitenge mu mutwe, ateruye umwana mutoya, iruhande rwiwe hari umugabo wambaye imyenda y'umweru na ga z'umweru, uri gukora umwana mu mutwe.

Umugore ukenyeye igitenge wambaye umupira w'icyatsi kibisi w'amaboko magufi, ahetse umwana mu mugongo, afite n'imisatsi iboshye ku mutwe, agaragara nk'uri koza umufuniko awogereza mu ndobo y'umuhondo.

Umusore wambaye ishati y'umweru wiciyemo imirongo ndetse n'ipantaro, ari gushyira agapapuro ku kuboko k'umwana wambaye ikanzu yo mu ibara ry'ubururu uteruwe n'umugore wambaye igitambaro mu mutwera.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'ikinama, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cyo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, ateretseho amacupa ndetse n'dupapuro twanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu, inyuma hari amadirishya amanitseho ibitambaro birinda urumuri.

Abantu bane bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye mu cyumba gifite igikuta cyubakishije amatafari ahiye, kimanitseho ibyapa biriho amashusho y'abantu.

Abantu basutamye, inyuma yabo hahagaze abandi bantu, higanjemo abambaye imyambaro y'umweru, igaragara nk'impuzangano z'abaganga, inyuma yabo hari icyapa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zitukura, bakikije ameza, arambuyeho igitambaro cy'umukara, ateretseho amacupa ndetse n'impapuro.

Umwana wambaye imyambaro iri mu bwoko bw'igitenge, ufite imisatsi iboshye ku mutwe, wunamye, uri gukaraba intoki n'amazi ari kuva mu gitembo, munsi ye hari ibasi yo mu ibara ry'umukara.

Abana bahagaze iruhande rw'iriba rusange bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye bafite utujerekani bari kuvoma inyuma y'abo hari igisambu ndetse n'ibiti.

Umusore wambaye ishati y'amaboko magufi uhetse igikapu mu mugongo, ahagararanye n'undi wambaye umupira wo mu ibara ry'ubururu ufite igikapu gitukura mu mugongo.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bakikije ameza aryamyeho akana gatoya, karyamye kagaramye, kambaye imyenda yo mu ibara ry'umweru.

Abantu bambaye imipira y'amabara y'ubururu n'amaboko magufiys yanditseho amagambo y'umweru imbere mu gatuza bafunze igipfunsi wambaye ingofero z'umweru mu mutwe.

Abagabo babiri bambaye amakote ndetse n'amapantaro, umwe ni umwirabura undi ni umuzungu wambaye amadarubindi ku maso, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ariho indangururamajwi ndetse n'amacupa.

Abana batoya bazamuye ibiganza, bambaye mu nzangano zisa zigaragara nk'iz'abanyeshuri, ziri mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hahagaze abandi bantu bakuru, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Umugore wambaye imyambaro yo mu bwoko bw'igitenge uteruye umwana, iruhande rwe hari umugore wambaye itaburiye y'umweru, ufite imisatsi iboshye ku mutwe, yambaye ibitare by'umweru ku kuboko n'impeta ku rutoki, afashe ku matama y'umwana, afite agakombe gato cyane mu ntoki.

Umugabo wambaye imyambaro igaragara nk'imuzanngano y'abaganga na ga z'umweru mu ntoki, ufashiwe mu kiganza cy'umuntu umwegereye, hari n'umugore uteze igitambaro mu mutwe.

Umwana wambaye ishati iri mu ibara ry'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, ahagaze iruhande rw'ikidendezi cy'amazi, hakurya yacyo hagaragara abana benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufiya uhagaze imbere y'abandi bantu bicaye, harimo umugore uteze igitambaro mu mutwe kirimo ibara ry'umukara ndetse n'umweru ateruye n'umwana.

Umugabo n'umugore bicaranye umugabo yambaye umupira w'ubururu w'amoboko magufi, umugore yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu, yambaye agapfukamunwa mu isura afite igitabo mu ntoki ndetse n'ikaramu.

Abagore bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bahagaze iruhande rw'iriba rusange, harimo babiri bari kugerageza guterura indobo yo mu ibara ry'ubururu, inyuma ya bo hari inzu ndetse n'ibiti.

Abana babiri, umuto ndetse n'umukuru bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bapfukamye iruhande rw'ikidendezi cy'amazi, bashyizemo utujerekani, inini ndetse n'intoya, inyuma yabo hari ibyatsi.

Abantu benshi bahagaze abandi bicariye mu gisambu, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, inyuma yabo hari ihema ndetse n'inyubako.

Abantu bahagaze iruhande rw'iriba rusange; harimo abantu bakuru babiri ndetse n'abana babiri bafite utujerekani dutoya mu ntoki, inyuma yabo hari igisambu ndetse n'igihuru.

Umwana wambaye ipantaro yahiniye mu mavi n'umupira w'amaboko magufiya, afashe ku njerekani iri kujyamo amazi ari guturuka mu iriba rusange, inyuma yaryo hari umurima uteyemo urubingo ndetse n'urutoki.

Abana bari iruhande rw'iriba rusange bambaye imyambaro y'amabara atandukanye. Amazi ari kuva mu iriba ari kumeneka, iruhande rw'injerikani ifite ibara ry'umuhondo. Inyuma yabo hari igisambu ndetse n'ibihuru.

Abana bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, igaragara nk'impuzangano y'ishuri, bunamye iruhande rwa robine iri kuvamo amazi, umwe muri bo yambaye amasogisi maremare yo mu ibara ritukura.

Abantu benshi bagaragara nk'abishimye, bambaye amataburiya yo mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara n'amadarubindi ku maso, inyuma hari inzu ifite ibikuta by'umweru, hejuru yanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu.

Umwana wambaye imyambaro yo mu ibara ritukura, iri mu bwoko bw'igitenge, ufite umusatsi uboshye ku mutwe, wunamye ari gukaraba intoki ku mazi ari kuva mu gitembo, munsi ye hari ibase y'umukara.

Umwana wambaye ikabutura y'umutuku na bodaboda z'ubururu wunamye, uri kunywera amazi mu biganza, ari guturuka muri kano, munsi ye hateretse indobo.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe zitambitse iruhande rw'igikuta, harimo n'abateruye abana, inyuma yabo hari ibyapa byo mu ibara ry'ubururu byanditseho amagambo y'umweru.

Umugabo ndetse n'umugore, bahagaze iruhande rw'iriba rusange, umugore yateza igitambaro mu mutwe, hari n'undi mukobwa wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufiya, inyuma yabo hari imirima irimo ibyatsi ndetse n'ibihuru.

Abantu benshi bahagararanye, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye higanjemo abambaye amataburiya yo mu ibara ry'umweru, inyuma yabo hari inzu ifite ibikuta byo mui ibara ry'ubururu imanitseho icyapa cy' mubara ry'umukara cyanditse n'amagambo.

Umugabo ugaragara nk'ukuze ufite umusatsi w'imvi ndetse n'ubwanwa, yambaye ingofero mu mutwe ndetse n'ikote, iruhande rwe hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, hahagaze n'umugore wambaye itaburiya y'ubururu ufite igitambaro cy'umweru mu mutwe.

Umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo, wambaye ga z'umweru mu ntoki, ari gutera urushinge rwo kwa muganga, umwana wambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bambaye amataburiya ari mu ibara ry'ubururu, bagaragara nkabari gukoma amashyi, imbere yabo hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara, inyuma yabo hari inzu yanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'igiti.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicariye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo kiriho n'ishusho y'umuntu.

Icyumba gifite ibikuta by'umuhondo bimanitseho impapuro nyinshi, cyicawemo abantu bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, hari n'ibitambaro birinda urumuri biri ku madirishya.

Abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, inyuma yabo hahagaze abandi bantu, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye ikote n'ipantaro bisa, uhagararanye n'undi mukobwa w'umuzungukazi, wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'amaboko magufi yatebeje, bafashe ku gitambaro cyo mu ibara ry'umukara cyanditseho amagambo y'umwiru.

Umugore ukenyeye igitenge wambaye n'agapira k'amaboko magufi, ateruye umwana wambaye ingofero y'umweru, bahagaze iruhande rw'iriba rusange, hasi hateretse indobo yo mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kigaragara nk'ikinama, bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, imbere yabo hari umugabo wambaye ikote n'ishati y'umweru, ufite indangurura majwi mu ntoki.

Umuntu wambaye imyambaro irimo amabara menshi atandukanye, uteze igitambaro mu mutwe, wikoreye injerekani, iri mu ibara ry'umuhondo, ifite umufuniko w'umutuku.

Umwana mutoya, wambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, wikoreye akajerekani gapfundikishije umukanana, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye umupira n'ingofero by'ubururu n'agapfukamunwa, hari n'undi mugore ufite terefone ngendanwa mu ntoki.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'ishati yo mu ibara ry'ubururu uri gukarabira kuri kandagira ukarabe ikoze mu kabido k'umuhondo, inyuma yiwe hari ururabo.

Abantu bahagaze kumurongo umwe higanjemo abambaye amataburiya y'umweru agaragara nk'impuzangano y'abaganga, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo gishushanyijeho n'abantu.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira y'umweru y'amaboko magufiya, bakikije umugabo wicaye ku ntebe, hejuru yabo hagaragara ishami ry'igiti.

Abantu bicaye mu cyumba bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, umwe muri bo afite indangururamajwi mu ntoki, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa.

Umugabo wambaye ikote n'ipantaro bisa, uhagararanye n'umugore wambaye ikanzu y'umweru irimo indabo zitukura, iruhande rwabo hari icyapa kiriho abana, n'ikindi kiriho umugore uteruye umwana.

Abantu bahagaze bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, inyuma yabo hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ifite urugi rw'umweru rukinguye, hejuru yanditseho amagambo y'amabara y'icyatsi kibisi.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere hari abandi bahicaye, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umweru, ku ruhande hari insakazamashusho.

Ikidendezi cy'amazi kirimo umuntu ufite injerekani wayishyizemo, ku ruhande hari undi muntu ufite igare, inyuma yabo hari ibyatsi byinshi.

Abana bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bari gukaraba intoki ku mazi yari kuva mu gitembo gitambitse, munsi yabo hari ibasi yo mu ibara ritukura yuzuye amazi, inyuma yabo hari abandi bana benshi.

Inzira iri kugendamo abantu benshi, higanjemo abambaye impuzangano y'abanyeshuri, munsi y'inzira hari iriba rusange, hariyo umwana ufite akavito k'umuhondo ari kuvoma, hari n'undi uhagaze hejuru y'iriba.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bahagaze iruhande rw'iriba rusange, rikikijwe n'amajerekani ari mu mabara atandukanye, harimo ay'umuhondo, icyatsi kibisi ndetse n'umukara, hari n'amabase.

Abana bambaye imyambaro itandukanye igaragara nk'impuzangano y'abanyeshuri. Abakobwa bambaye imyambaro yo mu iba ry'ubururu, naho abahungu bambaye imyambaro ya kaki, imbere yabo hariyo ameza ateretseho amasahani yariho ibyogorya.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hicaye abandi bantu bicaye ku ntebe z'umweru, abagabo bambaye amapantaro ndetse n'amakote y'umukara, inyuma yabo hari icyapa cyo mu ibara ry'icyatsi, kiriho amashusho y'abantu.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara wambaye n'ishati yiciyemo imirongo, ufashe ku ijerikani n'amaboko abiri ahagaze iruhande rw'iriba rusange inyuma yiwe hari inyubako.

Ikivunge cy'abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bahagaze mu gisambu, iruhande rwabo, hari ihema ry'umweru, inyuma yabo, hari inyubako.

Abantu benshi bambaye imipira y'umweru ndetse hari n'abambaye imipira y'ubururu bambaye ingofero z'umweru mu mutwe, imbere yabo hari icyapa cy'umweru ndetse n'ubururu cyanditsemo amagambo inyuma yabo hari igiti.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bahagararanye, hagati yabo harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru igaragara nk'impuzankano y'abaganga, bahagaze imbere y'inzu ifite ibikuta byo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu.

Abana batatu batoya bagaragara nk'abari gukaraba intoki ku mazi ari kuva mu gitembo, babiri muri bo bafite imisatsi iboshye, hirya yabo hari igiti.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati iciyemo imirongo uri guseka, amaboko ye abiri yayafatishije ku njerekani iteretse iruhande rw'iriba, inyuma ye hari ibiti.

Abana bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, igaragara nk'impuzangano y'ishuri; bahagaze iruhande rw'ikigega cy'umukara, bafite ibikombe biri mu mabara atandukanye mu ntoki.

Umwana wambaye agapira k'amaboko magufi n'inkweto z'icyatsi kibisi wicaye iruhande rw'umugenda uri kumanukamo amazi, uteretsemo injerekani ndetse n'ikivovo cy'insina, hari umukobwa wunamye wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umuhondo iruhande rwaho.

Abana bahagaze iruhande rw'iriba rusange, hari n'amazi ari kumeneka iruhande rw'injerekani yo mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari igisambu ndetse n'ibiti.

Icyumba gifite ibikuta by'umweru cyicawemo n'abantu benshi bambaye impuzankano zisa zo mu ibara ry'ubururu, harimo abagabo ndetse n'abagore.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura bicaye mu cyumba kigaragara nk'ik'inama, hagati yabo hari utumeza duturetseho amacupa.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bahagaze ku mbuga ifite ibara ritukura, imbere y'inzu ifite ibikuta by'umweru, ku ruhande hari agace gatoya k'amatafari ahiye.

Imodoka y'umweru iri mu bwoko bw'imbangukiragutabara ifunguye umuryango, inyuma yayo hagaragara ikivunge cy'abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro kijya kugaragara mu ibara ry'umuhondo, hateretseho amacupa, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Abantu bahagaze kumurongo utambitse, bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, abenshi muri bo bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufiya, inyuma yabo hari igikuta gisize ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umuhondo.

Abagore bahagaze hamwe, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye higanjemo imyambaro y'igitenge, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye, isakarishijwe amategura.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ufata indangururamajwi mu ntoki. Imbere yiwe hari abantu bicaye mu ihema bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye. Imbere yabo hicaye akana gato kicaye ku mbuga.

Abagabo batatu, babiri bambaye imyambaro y'ubururu, bafite n'ibikarito mu ntoki, bambaye n'udupfukamunwa mu isura, uwo hagati yambaye imyambaro y'umweru, n'agapfukamunwa, n'amadarubindi, bose bambaye ibitambaro mu mutwe.

Umuntu wambaye umupira w'ibara ry'umuhondo w'amaboko magufi n'ipantaro y'umweru n'agapfukamunwa mu isura, iruhande rw'iwe hahagaze umuntu wambaye amadarubindi ku maso, agapfukamunwa ndetse n'imyenda y'ubururu umufashe ku kuboko, iruhande rwabo hariyo ameza ateretseho mudasobwa.

Abantu bahagaze iruhande rw'iriba riri kuvamo amazi hateretse injerekani ziri mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari umurima uteyemo urutoki.

Umugabo wambaye itabuririya y'ubururu ufite urupapuro mu ntoki rushayijeho abantu babiri ari kwereka umugore uhagaze iruhande rw'iwe ukenyeye igitenge.

Abantu bahagaze ku mbuga y'umutuku, harimo umugore ukenyeye igitenge, n'abakobwa babiri bambaye amajipo y'umukara, n'umusore wambaye ipantaro y'umukara, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru cyanditsemo amagambo y'umweru.

Ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, ateretseho mudasobwa, iruhande rwayo hahagaze abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye ndetse n'udupfukamunwa.

Abantu batatu bahagaze iruhande rw'iriba rusange, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, iruhande rw'iriba hari injerekani nyinshi, inyuma yaryo hari urutoki.

Umugore wambaye imyambaro yo mu mabara menshi, yambaye amadarubindi ku maso, ari kugaragara igice cy'igihimba ari kumwenyura, inyuma yiwe hagaragara abana bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, yiganjemo abambaye imyambaro itukura.

Umugore wambaye imyambaro y'igitenge, ateze igitambaro cy'igitenge mu mutwe, ateruye umwana, afite impapuro mu ntoki, inyuma yiwe hicaye abandi bantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bari mu cyumba gifite ibikuta by'umweru.

Umugore wambaye umupira w'umukara, afite agakapu mu ijosi, yambaye agapfukamunwa mu isura ndetse n'ingofero mu mutwe, iruhande rwiwe hari umuntu wambaye imyambaro yo mu ibara ry'ubururu n'agapfukamunwa mu isura umufashe ku kuboko, ari kumutera urushinge rwo kwa muganga.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cyo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ateretseho amacupa ndetse n'ibikapu.

Umugore ukenyeye igitenge, wicaye ku ntebe y'ubururu, afite n'umwana wambaye agapira gatukura, afite urupapuro mu ntoki, imbere yiwe hicaye umugabo wambaye bote z'umweru, yicaye ku ntebe, iruhande rwiwe harambitse ibitabo.

Umuntu wambaye imyambaro y'igitenge n'agapira k'amaboko magufiya, yicaye ku musambi uzinze, urambitse hasi afite umunyururu ku kaguru ufashe ku giti ki buri iruhande.

Abantu benshi bahagaze hamwe, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye impuzankano y'aba porisi, inyuma yabo hari igikuta cyanditseho amagambo.

Inyubako yanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu, ifite urugi rw'umweru rufunguye igice kimwe, imbere yayo hari ubusitani buteyemo ibiti byo mu bwoko bw'imikindo.

Abana benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye idasa neza, bamwe muri bo bafite utujerekani mu ntoki, inyuma yabo hagaragara ibirundo by'ibyatsi byumye.

Abantu bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira y'umukara y'amaboko magufi, bafashe ku rupapuro rumwe, inyuma yabo hari ihema ry'umweru ndetse n'imodoka.

Umugore wambaye ikote ry'ubururu ufite indangururamajwi mu ntoki iruhande rw'iwe hicaye umugabo wambaye ikote n'agapfukamunwa k'umweru imbere yabo hari ameza aterutseho amacupa.

Ameza akikijwe n'abagore batatu bayicaye iruhande, babiri muri bo bateruye abana batoya, bakenyeye n'ibitenge, undi afite imisatsi miremire igera ku rutugu.

Umugore wirabura wambaye umwambaro urimo amabara menshi, ufite imisatsi iboshye ku mutwe, afite indangururamajwi mu ntoki, iruhande rwiwe hicaye umugabo wambaye umupira w'umukara w'amaboko magufi.

Umugabo ugaragaraje igice cy'igihimba, wambaye ishati yo mu ibara ry'ubururu, afite indangururamajwi mu ntoki, ari kureba ku ruhande, iruhande rw'iwe handitse amagambo yo mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Abagore batatu bahagararanye, bakenyeye ibitenge bateze n'ibitambaro mu mutwe, uwo hagati yateruye umwana ari no kumwonsa, bose bafite ibiti by'ibibingo mu ntoki.

Igisambu cyicawemo abantu benshi, bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umweru, inyuma yabo hari imodoka nini yo mu ibara ry'umweru, yanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu.

Abantu babiri bicaye, umwe yambaye imyambaro yo mu ibara ritukura, yifashe ku itama, yambaye n'ingofero mu mutwe, undi yambaye imyenda y'umukara, yambaye n'amadarubindi ku maso.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati irimo ibara ry'umukara n'irindi bara, bahagaze mu gisambu, inyuma yiwe hari inzu yanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hatera ibiti byo mubwoko bw'imikindo.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zitukura, higanjemo abambaye imipira yo mu ibara ry'umukara y'amaboko magufi.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara hari n'undi mugabo uhagaze wegamye ku meza, yambaye ikote ndetse n'ipantaro inyuma yiwe hari icyapa.

Umugore wambaye umupira uciyemo imirongo, uteze igitambaro mu mutwe, yikoreye igitebo, yikoreje ingata, afite isuka mu ntoki.

Umwana mutoya ufite icyo kurya mu ntoki, uri guseka, ufite imisatsi iboshye, yambaye imyambaro yo mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bwijimye, igaragara nk'impuzangano y'abanyeshuri, yicaye ku ntebe ibajijwe mu mbaho, imbere ye hari ameza.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba, wambaye umupira wo mu ibara ry'umuhondo, arimo araseka afite ubwanwa ndetse n'umusatsi mukeya ku mutwe.

Abantu bahagararanye, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira y'umweru y'amaboko magufiya, bafite utwapa dutoya mu ntoki, inyuma yabo hari ubusitani burimo ibiti by'imikindo.

Umugore ugaragara igice cy'igihimba, agaragara nk'ukuze, yambaye imyambaro yo mu bwoko bw'igitenge, yiganjemo ibara ry'icyatsi kibisi, ateze n'igitambaro cyo mu ibara ry'icyatsi kibisi cyo mu bwoko bw'igitenge, arimo araseka.

Umwana mutoya wambaye umwambaro w'ibara ry'umweru, uri kurira yikoreye amaboko. Inyuma yiwe hari abandi bantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, hejuru hari kugaragara ikirere cy'ubururu n'umweru.

Umugore utese igitambaro mu mutwe wambaye umupira w'icyatsi kibisi uriho icyapa gitukura, wicaye ku ntebe y'ubururu imbere ye hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umuhondo, iruhande rwe hicaye undi muntu.

Abantu benshi bahagaze hamwe bambaye imipira yo mu ibara ry'ubururu. Hagati yabo hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, ufashe ku rutugu babiri begeranye bahagaze iruhande rw'inyubako.

Umugore uteruye umwana mutoya, wambaye imyambaro irimo amabara menshi, n'igitambararo cy'ubururu mu mutwe, yicaranye n'undi mugore ufite terefone ngendanwa mu ntoki, yambaye umupira w'umweru w' amaboko magufiya.

Umugore w'inzobe wambaye agapfukamunwa ku kuboko n'amaherena ku gutwi, wasize ibintu bitukura ku munwa wazamuye urutoki, iruhande rwe hicaye abandi bantu.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira y'ubururu y'amaboko magufiya, harimo babiri basutamye bari gutera igiti, n'abandi bagifashe mu ntoki...

Umugore wambaye umupira w'amaboko magufiya n'ijipo irimo amabara menshi, ateruye umwana mutoya, iruhande rwe hari undi mwana bicaye hasi, imbere yabo hari inkoko iriho ibinyampeke iteretseho mironko y'umutuku.

Abantu bahagaze hamwe, ku murongo utambitse, bamwe imbere abandi inyuma, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, inyuma yabo ku ruhande, hari icyapa cy'umweru, cyanditseho amagambo, kiriho n'amashusho.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abicaye ku ntebe zo mu ibara ry'umweru bambaye udupfukamunwa mu isura, hasi hari n'intebe zo m'ibara ritukura zitondekanyije hamwe.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abagore babiri biteye ibitenge ku rutugu umwe ateze igitambaro mu mutwe, wicaye imbere y'inzu ifite umuryango ukinguye.

Abantu benshi bahagaze hamwe bambaye imipira y'ubururu y'amaboko magufiya, hagati yabo hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, afashe ku rutugu babiri bamwegereye.

Abantu bicaye ku mbuga isasheho amabuye, bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, inyuma yabo hahagaze abandi bantu, higanjemo abambaye imipira y'umukara y'amaboko magufiya.

Abantu bahagaze hamwe, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hagati yabo hahagazemo umugabo wambaye imyambaro igaragara nk'impunzangano y'abapolisi, inyuma yabo hari ibyapa.

Abagore bicaye ndetse n'umugabo umwe bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, umwe muri bo afite urupapuro mu ntoki. Inyuma yabo hateye ibiti ndetse n'urutoki.

Umukobwa uri guseka, wambaye ipantaro y'ikoboyi yahinnye n'agapira ko mu ibara ry'umukara, yambaye ibitare ku kuboko, afite umusatsi mukeya ku mutwe.

Umugore wambaye ijipo n'agapira yatebeje, ijipo irimo amabara menshi, yambaye igitambaro ku umutwe, yicaye ku ntebe, inyuma y'iwe hari igikuta gishushanyijeho ururabo.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo umugore wambaye amadarubindi ku maso, isaha ku kuboko ufite ikaramu mu ntoki, imbere ye hari ameza ateretseho amacupa.

Icyumba gifite ibikuta by'umweru, kimanitseho insakazamashusho ku rukuta, cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura.

Abantu bicaye hamwe higanjemo abagore bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hicaye umugabo wahinye ipantaro kugera mu mavi, inyuma yabo hari urutoki rurimo n'ibiti.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bahagaze hamwe, iruhande rwabo hari icyapa cy'umweru ndetse n'ubururu, cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara kiriho n'amashusho y'abantu.

Umugabo uri guseka ufite ibihanga mumenenyo yo hasi nayo hejuru, yambaye ishati y'umweru uciyemo imirongo ndetse n'umukenyero w'umuhondo ari kugaragara igice cy'igihimba yambaye ingofero mutwe, iruhande r'iwe hari icumu.

Abantu basutamye abandi babahagaze inyuma bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, bahagaze mu cyumba gifite ibitambaro birinda urumuri ku madishya.

Abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, harimo n'umwana, bafashe utubendera dutoya mu ntoki turi mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Umukobwa ugaragara igice cy'igihimba wambaye umupira wo mu ibara ritukura. Mu imbere yambariyemo undi wo mu ibara ry'ubururu bwijimye. Arimo araseka afite umusatsi mukeya ku mutwe.

Abantu bicaye mucyumba kigaragara nk'icy'inama, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza, arambuyeho igitambaro, ateretseho n'amacupa, hari umuntu wambaye umupira w'umweru, w'amaboko magufi, afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma yiwe ku gikuta, hamanitse icyapa.

Umugabo wambaye agapfukamunwa n'ishati y'amakobo maremare, wambaye ga z'umweru mu ntoki, n'amadarubindi ku maso, ari kureba mu kanwa k'umugore uryagamye ugaramye wasamye, undi mugabo wambaye agapfukamunwa na ga z'umweru mu maso ari kumumurika agatara mu kanwa.

Abantu babiri bari kwireba mu kirori, bambaye imipira yo mu ibara ry'umweru, harimo umukobwa ndetse n'umuhungu, umuhungu afite imisatsi iboshye ku mutwe.

Umusore ugaragara igice cy'igihimba no ku mutwe atagaragara igice cyose, yambaye iherena ku zuru n'amadarubindi ku maso, ari guseka afite ubwanwa yambaye n'umupira mupera ry'umweru.

Abantu babiri bambaye imyambaro yo mu ibara ry'umukara, ga z'umweru mu ntoki, bambaye n'udupfukamunwa mu isura ndetse n'amadarubindi manini, bari kureba mu kanwa k'umuntu uryamye imbere yabo.

Abantu bagaragara nkabatonze iyo imirongo bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bafite impapuro mu ntoki bahagaze iruhande rw'ihema ry'umweru rimanitseho icyapa cyanditseho amagambo n'umuntu uri guseka hejuru hagaragara ikirere cy'umweru n'ubururu.

Umwana mutoya ugaragara igice gitoya cy'igihimba, yambaye ishati y'amaboko maremare, afite agasatsi gakeya ku mutwe, bari guseka, bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki. Buri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo.

Umugabo wambaye imyambaro igaragara nk'impunzangano y'abaganga, wambaye agapfukamunwa mu isura n'amarinete manini, afite ikaramu mu ntoki, ari kwandika ku rupapuro ruteretse ku meza.

Umusaza ufite imisatsi irimo imvi, wambaye amadarubindi ku maso, n'umupira w'amaboko magufiya, imbere yiwe hari ikirori.

Umugabo wicaye ku ntebe asa nk'uwegamye wambaye umupira mu ibara ryicyatsi cyerurutse, iruhande rwiwe hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru agapfukamunwa k'umweru mu isura ndetse na ga z'umweru mu ntoki uri kumurika mu kanwa.

Umugore ndetse n'umwana, bambaye amaserengeri yo mu ibara ry'umweru, bafite uburoso bwoza amenyo mu ntoki, bari guseka bafite imisatsi myinshi ku mutwe.

Abagore babiri bahagararanye, umwe yambaye ikote ry'ubururu ari guseka, afite imisatsi iboshye ku mutwe n'urupapuro mu ntoki, undi yambaye amadarubindi, afite urupapuro n'ikaramu mu ntoki.

Abana bambaye impuzangano zisa ziganjemo ibara ry'icyatsi kibisi bafite uburoso bwoza amenyo mu kanwa; bafite ibikombe byo mu magare atandukanye mu ntoki.

Abantu bambaye imipira y'amaboko magufi yo mu ibara ry'icyatsi kibisi, imbere yanditseho amagambo yo mu ibara ry'umuhondo, bicaye ku ntebe inyuma yabo hahagaze abandi bantu bambaye imyambaro mu mabara atandukanye higanjemo abambaye imipira y'umweru, hari n'ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru.

Umuntu wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufiya, yambaye agapfukamunwa mu isura na ga z'umweru mu ntoki, yambaye amadarubindi mu mutwe, afashe ku matama umuntu uryamye ku gatanda k'ubururu.

Abana benshi bambaye imyambaro igaragara nk'impuzankano y'abanyeshuri, bahagaze mu cyumba kigaragara nk'ishuri gifite amadirishya asizeho ibara ry'icyatsi, bafite udukarito mu ntoki.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru uri guseka, afite uburoso bwoza amenyo mu ntoki n'imisatsi miremire, ari kwireba mu kirori.

Umugabo wambaye ishati y'ikoboyi n'umupira mo imbere agaragara igice k'igihimba n'igice gitoya cy'umutwe ari guseka afite ubwanwa buke inyuma.

Umwana mutoya wasamye washyize uburoso bwoza amenyo mu kanwa, yambaye umwambaro wo mu ibara ry'icyatsi urimo utudomo tw'umweru yicaye ku ntebe y'ubururu.

Umusore wicaye ku ntebe yo mu imabara ryicyatsi kibisi, yambaye ikabura y'umweru yanditseho amagambo y'ubururu mu gatuza, yambaye isaha y'umukara ku kuboko. Inyuma yiwe hari agatanda gafite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugabo wambaye imyambaro y'umukara ndetse afite n'impeta ku rutoki ahagaze mu cyumba gifite ibitambaro birinda urumuri byo ku madirishya biri mu ibara ritukura, arimo arireba mu kirori.

Abagabo babiri bambaye imyambaro irimo ibara ry'umweru, bafite amacupa mu ntoki bari guseka bagaragara nk'abari mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwabo hateye ibiti.

Umugore uba ufite imisatsi irimo imvi, wambaye umupira wo mu ibara ritukura, yicaye iruhande rw'umusaza, ufite imisatsi irimo imvi, wambaye impeta ku rutoki, imbere y'abo hari ameza.

Umugabo ugaragara nk'ukuze ufite umusatsi n'ubwanwa burimo imvi yambaye amadarubindi ku maso afite terefone ngendanwa mu ntoki imbere ye hicara undi mugore ufite imisatsi irimo imvi imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro.

Umugabo ugaragara nk'ukuze ufite ubwanwa burimo imvi, yicaye iruhande rw'umugore ufite imisatsi irimo imvi, imbere y'abo ku meza hari amasahani.

Abantu bicaye mu gisambu, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abicaye hasi n'abicaye mu ntebe, harimo umuntu w'umuzungu, uteruye umwana w'umwirabura.

Umugore uri guseka, ugaragara igice k'igihimba yambaye imyambaro irimo umweru, afite umusatsi urimo imvi, afite isahani mu ntoki ndetse n'ifurusheti.

Umugore uri guseka ugaragara igice cy'igihimba wambaye agapira k'amaboko magufiya ufite umusatsi mukeya ku mutwe, inyuma ye hari abandi bantu.

Umugore ufite imisatsi irimo imvi, wambaye umupira wo mu ibara ritukura, ufite urupapuro mu ntoki, iruhande rwe hicaye umusaza wambaye umupira w'ubururu.

Umugore ugaragara nk'ukuze, ufite umusatsi mukeya ku mutwe urimo imvi, wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufiya, yakenyeye imikenyero y'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma y'iwe hari ikibuga gihagazemo imodoka.

Umukecuru wambaye umupira w'ubururu n'urunigi mu ijosi yambaye imyambaro y'imikenyero afite umusatsi urimo imvi, iruhande rwiwe hari umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo n'umukenyero.

Umugabo wambaye amadarubindi ku maso ndetse n'ishati y'ubururu bwijimye, afashwe mu kiganza n'umugore w'umuzungu uri guseka ufite imisatsi miremire.

Umugabo wicaye ugaragara nk'ukoze, wambaye umupira w'amaboko maremare, inyuma ye hari umusore wambaye amarinete, iruhande rwe hicaye undi mugore, hagati yabo hari ameza ateretseho amasahane.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye mu buryo bw'uruziga munsi y'igiti kinini, inyuma yabo hari inzu zisakarishijwe amabati.

Abagore bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye, iri mu bwoko bw'ibitenge, abenshi muri bo bateze ibitambaro mu mutwe, bicaye bakikije ahantu harunze inyanya, inyuma yabo hari amacunga.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, wambaye n'amadarubindi ku maso, ufite umusatsi urimo imvi, yicaye mu ntebe y'abantu babana n'ubumuga, iruhande rwe hari umwana wicaye wambaye umupira w'icyatsi kibisi.

Umukecuru ufite imisatsi irimo imvi, ufite urupapuro mu ntoki, yambaye impeta ku ntoki iruhande rw'iwe hicaye umusaza ufite umusatsi mukeya urimo imvi, na we yambaye impeta ku rutoki, imbere yabo hariho ameza ateretseho agacupa k'umweru.

Abagore babiri bicaranye, umwe agaragara nk'ukuze, yambaye amadarubindi ku maso, imbere yiwe hari ameza ari gukatiraho imboga, afite icyuma mu ntoki, uwicaye iruhande rwe yambaye agapira k'ubururu k'amaboko magufi.

Icyumba kirimo abagabo bicaye hasi mu buryo bw'uruziga, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo bamwe bambaye ingofero mu mutwe.

Umugabo ugaragara nk'ukuze ufite imisatsi irimo imvi, afite ibinini mu ntoki, imbere yiwe hari ameza ateretseho igikombe cy'amazi, iruhande rwiwe hahagaze undi muntu ufite imisatsi y'imvi.

Umugore ugaragara nk'ukuze, ufite umusatsi urimo imvi, yambaye amadarubindi ku maso, yifashe ku mazuru, yambaye impeta ku rutoki, afite igikombe mu ntoki, yambaye n'umupira wo mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Abagabo babiri bahagararanye umwe yambaye ishati y'ubururu n'umukenyero w'umweru undi yambaye ishati y'umweru n'umukenyero w'umukara bambaye ingofero z'urugara mu mutwe.

Umugore ufite imisatsi irimo imvi, wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, warambuye amaboko afashe ku kirenge kimwe, ukundi kuguru yaguhinnye agaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, yambaye amadarubindi ku maso, afite umusatsi urimo imvi, iruhande rwiwe hahagaze umukobwa wambaye imyambaro yo mu ibara ritukura, ufite imisatsi myinshi ku mutwe, ifungiye inyuma.

Umugore ugaragara nk'ukuze ufite imisatsi irimo imvi, wicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga, imbere y'iwe hicaye umugore wambaye imyambaro yo mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Umugore ugaragara nk'ukuze ufite agasatsi gakeya, yazamuye amaboko, afite agatambaro mu ntoki, yicaye ku buriri, iruhande rwe hari umukobwa w'umuzungukazi wambaye imyambaro yo mu bururu bwijimye ndetse n'umweru.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bahagaze munsi y'igiti, hari n'ibyapa, harimo abagabo babiri bari gusuhuzanya, umwe yambaye amadarubindi ku maso.

Abantu batatu bahagararanye, harimo umukobwa umwe wambaye umupira w'umweru afite utumamiyo tubiri mu ntoki dufashe imboga, n'umukecuru ufite imisatsi irimo imvi, ku ruhande hahagaze umusore wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku, afite isahani y'umweru mu ntoki.

Umugabo wambaye ishati uri kugaragara igice cy'igihimba afite umusatsi ndetse n'ubwanwa burimo imvi, yifashe ku kananwa afite ikaramu yo mu ibara ry'umukara mu ntoki yambaye amadarubindi ku maso ari kureba mu gitabo.

Umugabo uri guseka, ufite imvi mu bwanwa ndetse no mu musatsi, wambaye umupira w'ubururu, warambuye ukuboko, inyuma ye hahagaze umugore ufite imisatsi miremire, umufashe ku kuboko.

Umugabo ugaragara nk'ukuze wambaye amadarubindi ku maso, ufite umusatsi urimo imvi, yicaye iruhande rw'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, imbere yabo hari ameza ateretseho amakaye ndetse n'ikirahure.

Abagore babiri bari kugenda bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, umwe yambaye umupira w'amaboko maremare, ateze n'igitambaro gitukura mu mutwe, undi afite imisatsi iboshye ku mutwe, iruhande rwabo hari ibiti.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare, afite ubwanwa burimo imvi, afite inkoni mu ntoki, yambaye n'impeta ku rutoki, ari guseka, iruhande rw'iwe hahagaze umukobwa wambaye imyambaro yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, uri guseka amufashe ku rutugu.

Umugore ugaragara nk'ukuze wambaye umupira uciyemo imirongo y'umukara, ufite umusatsi urimo imvi yambaye amadarubindi ku maso, afashwe mu kiganza n'undi mugore w'umuzungu.

Abagore babiri bari guseka umwe yambaye amadarubindi ku maso, afite umusatsi wo mu ibara ry'umweru, afite n'ikirahure mu ntoki, bahagaze iruhande rw'imboga zitandukanye.

Abagore batatu bari guseka bose bafite umusatsi irimo imvi, uwo hagati yambaye umupira wo mu ibara ry'umuhondo, bafite terefone ngendanwa mu ntoki.

Abagore batatu, babiri bo ku ruhande bambaye ingofero mu mutwe,u wo hagati yambaye amadarubindi ku maso, afite terefone ngendanwa mu ntoki, abandi barikuyirebamo.

Umugabo wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare, ufite ubwanwa burimo imvi, yicaye imbere y'ameza ateretseho mudasobwa, iruhande rwe hari umugore wambaye isaha ku kuboko, ufite agacupa mu ntoki ari kumuhereza.

Umugabo ugaragara nk'ukuze, wambaye amadarubindi ku maso, ufite umusatsi n'ubwanwa birimo imvi, yicaranye n'umuhungu wambaye ishati irimo imirongo y'umukara n'umweru, imbere yabo hari ameza, hariho igitabo ndetse n'ibikombe bibiri byumweru.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abagore bateze igitambaro mu mutwe, bari mu murima uhinzemo icyayi, hari n'igitebo kiri hagati yabo.

Umugabo ugaragara nk'ukuze ufite umusatsi urimo imvi ndetse n'ubwanwa, wambaye ishati y'amaboko maremare, afite terefone ngendanwa mu ntoki, iruhande rwe hicaye undi mugore.

Umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo, ufite ubwanwa burimo imvi, iruhande rwe hari umukobwa w'umuzungukazi umufashe ku rutugu, yambaye imyambaro irimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye ipantaro ndetse n'umupira w'umukara w'amaboko magufiya, iruhande rwe hahagaze umukobwa w'umuzungukazi ufite imisatsi miremire ifungiye inyuma, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, afashe uwo mugabo ku kuboko.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye higanjemo abagore bakuze, harimo abateze ibitambaro mu umutwe n'abafite imisatsi irimo imvi, bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe z'umweru, inyuma yabo hari urutoki.

Umugabo ugaragara nk'ukuze ufite umusatsi urimo imvi, wambaye ishati iciyemo imirongo, uteruye umwana mutoya bari kurebana mu maso.

Umukobwa wambaye itaburiya y'umweru igaragara nk'iy'abaganga, afashe ku kuboko umugabo wambaye ishati ugaragara nk'ukuze, afite ubwanwa burimo imvi.

Abantu bambaye imyambaro, yo mu mabara batandukanye, bagaragara nk'abishimye, bahagaze mu murima, urimo ibigori ndetse n'ibindi bihingwa, harimo umwe muri bo wazamuye isuka ntoya.

Umugabo wicaye mu ntebe, udafite umusatsi ku mutwe, yambaye amadarubindi ku maso n'umupira w'amaboko magufi, iruhande rwiwe hicaye umukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara ifungiye inyuma, yambaye imyambaro yo mu ibara ry'ubururu, afashe ku kuboko k'uwo mugabo.

Umugabo ugaragara nk'ukuze ufite ubwanwa n'umusatsi urimo imvi, wambaye ishati y'ikinombe n'umupira mu imbere, ufashe ku rutugu umukobwa wambaye amadarubindi.

Umugabo ugaragara nk'ukuze, ufite umusatsi ndetse n'ubwanwa birimo imvi, afite igikombe yashyize ku munwa, imbere ye hahagaze umugore ufite imisatsi irimo imvi, wambaye amadarubindi ku maso.

Umugabo uri guseka ufite umusatsi urimo imvi nkeya, yambaye umupira mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, imbere yiwe hari ameza ateretseho urusoro.

Umugore ufite agasatsi gakeya ku mutwe katari umukara, yicaye imbere y'ameza ateretseho ikirahuri, iruhande rw'iwe hahagaze umuntu wambaye imyambaro yo mu ibara ry'ubururu afite ibinini mu ntoki, yambaye n'isaha ku kuboko.

Umugore w'umwirabura urimo araseka warambuye amaboko yiwe, ufite umusatsi mukeya ku mutwe mu ibara ry'umweru, afashwe ku kuboko n'undi mugore w'umuzungu ufite imisatsi miremire yo mu ibara ry'umukara.

Umugabo ugaragara nk'ukuze wambaye umupira w'amaboko magufiya, yambaye amadarubindi ku maso, afite ubwanwa n'umusatsi urimo imvi. Agaragara nk'urigukora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza wicaye ufite umusatsi urimo imvi ndetse n'ubwanwa, yambaye ishati y'umweru. Iruhande rwe hicaye abana babiri. Umwe yambaye umwambaro urimo ibara ritukura ndetse n'umweru. Undi afite akajerekani gatoya k'umweru mu ntoki.

Abantu bicaye ku ntebe, harimo abana ndetse n'abantu bakuru, inyuma yabo hari abandi bahahagaze, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Umugabo ugaragara nk'ukuze wambaye umupira w'amaboko maremare, uri guseka ari kureba umugore umuhagaze iruhande, wambaye imyambaro y'ubururu amufashe ku rutugu.

Umugabo wambaye umupira ndetse n'ishati mo imbere, yambaye amadarubindi ku maso, afite umusatsi urimo imvi, imbere ye hari ameza ateretseho ikayi, afite n'ikaramu mu ntoki.

Abagabo babiri bafatanye ku rutugu, umwe yambaye ishati undi yambaye umupira w'amaboko magufiya wo mu ibara ry'ubururu, uwambaye ishati yambaye n'ingofero ndetse n'isaha, iruhande rwabo hari ibiti.

Umugore uri guseka ugaragara igice cy'igihimba, ufite umusatsi urimo imvi, inyuma yiwe hunamye umukobwa uri guseka ufite imisatsi y'umukara ifungiye inyuma, yambaye umwambaro wo mubara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Umugabo ugaragara nk'ukuze, ufite umusatsi urimo imvi, yambaye ishati y'amaboko maremare, yicaye ku ntebe y'umweru iruhande rw'umugabo, wambaye imyambaro igaragara nk'umpuzangano y'abaganga.

Umugore ugaragara nk'ukuze, wambaye amadarubindi ku maso, uteze igitambaro mu mutwe, yambaye n'impeta ku rutoki, inyuma ye hari umukobwa umufashe ku rutugu, wambaye imyambaro y'ubururu.

Umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufiya n'isaha ku kuboko, afite imisatsi n'ubwanwa burimo imvi, iruhande rwiwe hahagaze umugore w'umuzungu umufashe ku rutugu.

Umugore ugaragara nk'ukuze ufite imisatsi irimo imvi ari kumwe n'undi mugore wambaye amadarubindi ku maso, afite imisatsi iboshye kumutwe, iruhande rwa bo hari umwana mutoya.

Abagore batatu bari guseka, umwe yambaye umupira wo mu ibara ritukura, undi afite imisatsi irimo imvi, yambaye umupira w'umukara ndetse n'umweru, bafite udupapuro mu ntoki.

Umugabo ugaragara nk'ukuze wambaye amadarubindi ku maso, ufite umusatsi n'ubwanwa burimo imvi, yicaranye n'umugore ufite ifurushete mu ntoki, imbere yabo hari ameza ateretseho amasahani.

Abagabo babiri bakoranye mu biganza bambaye amakote y'ubururu ndetse n'amashati y'umweru umwe yambaye amadarubindi ku maso bafite impapuro mu ntoki inyuma yabo hari icyapa cy'umweru.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura, imbere yabo hicaye abandi bantu bicaye ku ntebe z'umweru inyuma yaho hari icyakabona.

Umugabo uryamye hasi mu gisambu, wambaye ipantaro y'umukara, iruhande rwiwe hasutamye abantu bambaye imyambaro itandukanye, harimo babiri bambaye amataburiya y'umweru agaragara nk'ay'abaganga, ku ruhande hari igiti.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura, bazengurutse ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa, imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu babiri bahagararanye harimo umugabo w'umuzungu wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hahagaze umukobwa w'umwirabura wambaye ikanzu ngufiya, inyuma yabo hari icyapa.

Umukobwa ufite imisatsi iboshye ku mutwe miremire, yambaye umupira w'umukara w'amaboko magufiya hari undi muntu umufashe kuboko hagati yabo hariyo ameza ateretseho indangururamajwi.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi abandi bicaye imbere harimo abakobwa babiri bambaye imipira y'umukara y'amaboko magufi, imbere yabo hariyo ameza arambuyeho igitambaro ateretseho na mudasobwa.

Umugore wambaye ijipo y'umweru n'ishati y'icyatsi kibisi ufite imisatsi iboshye ku mutwe, yambaye amadarubindi ku maso afite indangururamajwi ndetse na terefone ngendanwa mu ntoki imbere ye hicaye abandi bantu.

Abantu bahagaze ku murongo utambitse, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo.

Ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'ingabo ebyiri, isaka ndetse n'ikawa, hagati y'abyo hari igiseke n'ipfundo hasi, hasi handitseho amagambo yo mu ibara ry'umweru.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye, inyuma yabo hahagaze abandi, inyuma hari icyapa kinini cyo mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi byanditseho amagambo yo mu ibara ry'icyatsi kibisi, hejuru muguni hari igishuyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda.

Umuntu wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umweru n'agapfukamunwa mu isura. Yazamuye ukuboko kumwe k'umwambaro wiwe, undi mugabo wambaye ishati y'umweru ari kumutera urushinge rwo kwa muganga ku kuboko.

Umugabo ndetse n'umugore bahagaze bafashe ku cyapa cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, bambaye imyambaro irimo ibara ry'umukara, inyuma yabo hari amabendera.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye abagabo bambaye amakoti ndetse n'amapantaro inyuma yabo hari icyapa cyo mu ibara ry'ubururu kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda munsi y'ibyo birangantego hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweruru.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zitukura, imbere yabo hicaye abandi bantu bicaye ku ntebe z'umweru, umwe muri bo afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma yabo hari icyapa.

Abantu bambaye imipira isa n'udupfukamunwa tw'ubururu mu isura, harimo babiri bafite ibikapu by'umweru mu ntoki, abandi bicaye ku ntebe zo mu ibara ry'umweru, hari n'abahagaze imbere y'ameza ateretseho amacupa y'amabara ry'ubururu arambuyemo nigitambaro cy'umweru.

Abantu benshi bazamuye ibiganza, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abahagaze, abunamye ndetse n'abapfukamye, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo y'umweru.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufiya bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari umuntu wambaye ipantaro y'umweru n'ikote y'umukara.

Abantu benshi bahagaze hamwe, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira y'umweru y'amaboko magufiya, inyuma yabo hari icyapa kinini cyo mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu cyanditsemo amagambo.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hicaye abandi bantu bicaye ku ntebe z'umweru, inyuma yabo hari icyapa cyo mu ibara ry'icyatsi kibisi kiriho amasura y'abantu ndetse n'amagambo.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda bambaye imyambaro y'amabara atandukanye higanjemo abambaye imyambaro y'umweru n'abandi bambaye imyambaro igaragara nk'impuzanmbano y'abanyeshuri, abari imbere bafite icyapa cy'umweru ndetse n'umutuku.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro bisa, uhagaze imbere ye, hari indangururamajwi, inyuma ye hari icyapa kinini cyanditseho amagambo, ndetse kiriho n'ishusho y'umugabo wambaye ikote, n'amadarubindi ku maso.

Abantu benshi bicaye, abandi babahagaze inyuma bafite utwapa dutoya dusa mu ntoki, imbere ya bo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru akikijwe n'intebe, hasi hari imbuga yo mu ibara ritukura.

Inzu y'igorofa ifiteho amagambo yo mu ibara ry'icyatsi kibisi hejuru, hariho n'umutima ushushanyijeho, hagati urimo ikimenyetso cy'umusaraba, imbere y'inyubako hateye ibiti by'imikindo.

Ubusitani buteyemo indabo, bufatanye n'inyubako yubakishije amatafari ahiye, yanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara hejuru, ku ruhande hari ibigega by'umukara bibika amazi y'imvura.

Inzu ifite ibikuta by'umweru, isakarishijwe amabati yo mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hari imbuga y'igitaka, inyuma hari ibiti birebire hejuru, hagaragara ikirere cyiganjemo ibara ry'umweru.

Inzu isakarishije amabati yo mu ibara ry'ubururu, ifite ibikuta by'umweru, hejuru yanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, hari abantu bicaye imbere yayo.

Umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo, wicaye ku ntebe y'umukara, iruhande rwe hari icyapa cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu, imbere ye hari umugabo wambaye umupira w'umweru n'amadarubindi ku maso, imbere ye hari ameza, afite n'ikaramu mu ntoki.

Umugore wambaye ishati y'umweru uhagaze i ruhande rw'umwana uri ku munzani bapimiraho ibiro, i ruhande rwabo hicaye abandi bantu.

Agahanda gasashemo amabuye, gaca hagati mu busitani, buteyemo ibyatsi ndetse n'ibiti, haruguru hagaragara inyubako zubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amatara.

Ubusitani buteyemo indabo zitandukanye harimo n'ibiti birebire byo mu bwoko bw'imikindo, iruhande yabwo hari inzu zitandukanye harimo izisakarishijwe amabati yo mu ibara ry'ubururu n'izisakarishijwe amabati yo mu ibara ritukura.

Abantu bambaye imyambaro yo mubara ry'umweru igaragara nk'impuzangano y'abaganga, imbere y'abo hari ibikoresho bigiye bitandukanye harimo icupa ndetse n'urupapuro rw'isuku.

Abantu bari kugenda mu gahanda gasashemo amabuye harimo umwana wambaye imyambaro yiganjemo ibara ry'icyatsi, ufite ibasi intoya mu ntoki mu ibara ry'umukara, n'undi muntu ufashe akana gatoya ukuboko.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bahagaze nk'abatonze umurongo, hari n'undi muntu wicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga.

Umukobwa wambaye umwambaro wo mu ibara ry'icyatsi kibisi, wanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, imbere mu gatuza ateze igitambaro cy'umweru mu mutwe, yambaye na ga z'umweru mu ntoki, afashe akaboko akana gatoya karyamye.

Agahanda k'amabuye kajya ku nzu yubakishije amatafari ahiye, hejuru yanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu, isakarishijwe amabati yo mu ibara ry'ubururu, imbere ku muryango hari indabo.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ufite umusatsi n'ubwanwa burimo imvi, iruhande rwe hicaye umukobwa ufite imisatsi miremire ifungiye inyuma umufashe ku rutugu.

Inyubako ifite ibikuta by'umweru, yanditseho amagambo hejuru, imbere y'iyi nyubako hahagaze abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, iyi nyubako ifite inzugi zifite ibirahuri.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, yambaye ga z'ubururu mu ntoki, afite icupa mu ntoki rifite umufuniko w'ubururu, yambaye n'agapfukamunwa mu isura, imbere yiwe hari imashini zigiye zitandukanye.

Umwana wicaye ku buriri wambaye ipantaro n'ubusa hejuru, iruhande rw'iwe hicaye undi muntu uteze igitambaro mu mutwe, hari umugabo uhagaze wunamye, wambaye agapfukamunwa mu isura, n'itaburiya y'umweru, umufashe ku maboko yombi.

Umuntu wambaye ishati y'umweru, yambaye agapfukamunwa mu isura, n'amadarubindi ku maso n'ingofero mu mutwe ari gukora mukiganza cy'akana gato gateruwe n'umuntu ufite imisatsi iboshye ku mutwe.

Ubusitani burimo ibendera, imbere yabwo hari agahanda gashashemo amabuye, imbere hari inzu y'igorofa, iruhande rwayo hari imodoka ndetse na moto.

Urujya n'uruza rw'abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira y'icyatsi kibisi, bambaye udupfukamunwa mu isura, bari imbere y'inzu yanditseho amagambo y'umweru hejuru.

Akagare k'abantu babana n'ubumuga, kicayemo umuntu wambaye imyambaro y'ubururu, kari imbere y'ubusitani, iruhande yabwo hari inzu, ifite ibikuta by'umweru, hepfo yayo hari ikigega cy'umukara kibika amazi y'imvura, hakurya hari imisozi.

Icyumba kirimo intebe zo mu bwoko butandukanye, zifite n'amabara atandukanye, harimo izo mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu bwijimye n'izindi zifite ayandi mabara, hejuru ku gikuta hamanitse insakazamashusho.

Agahanda gasashemo amabuye, iruhande rwako hari indabo zegeranye n'inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakarishijwe amabati yo mu ibara ry'ubururu, imanitseho ibyapa bibiri, kimwe cyanditseho amagambo kiriho n'igishushanyo cy'ijisho, ikindi cyanditseho amagambo.

Umuntu uryamye ugaramye, wambaye ikanzu irimo amabara y'ubururu, iruhande rwiwe hahagaze undi mugore umufashe ukuboko, ndetse n'umugabo umufashe ku mutwe.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'icyatsi kibisi hateretseho n'amacupa.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bahagararanye barimo baramwenyura, harimo umugabo umwe uhagaze hagati y'abagore bane, inyuma yabo hari inzu imanitseho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara.

Abagore batatu bicaye hamwe, umwe yambaye ga z'umweru mu ntoki n'ishati n'ipantaro bisa, yambaye amadarubindi ku maso n'agapfukamunwa, afite imisatsi iboshye, yicaye imbere y'abandi bagore babiri.

Abantu bambaye imyambaro ya mu mabara atandukanye harimo umugore wambaye umupira utukura nundi wambaye umupira w'umweru bahagaze iruhande rwinzu yubakishije amatafari yahiye hejuru yanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu.

inzu yubakishije amatafari ahiye yanditseho amagambo yo mw'ibara ry'ubururu hejuru isakarishijwe amabati yo mw'ibara ry'ubururu, imbere yayo hagaze abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye harimo n'abambaye imyambaro y'abapadiri ndetse n'ababikira.

Umusore wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu w'amaboko magufi na ga z'ubururu n'agapfukamunwa mu isura, afite umukoropesho, iruhande rwiwe hari ibitanda bigaragara nk'iby'abarwayi.

Umuntu wambaye ipantaro ndetse n'umupira w'ubururu wanditseho amagambo mu gatuza, afite terefone ngendanwa mu ntoki, yambaye ingofero y'umukara mu mutwe, yicaye ku ntebe, imbere ye hari umugabo uhahagaze wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu, imbere ye hari abandi bantu, hari n'isaha imanitse ku gikuta.

Umukobwa wambaye itaburiya y'umweru afite imisatsi iboshye ku mutwe miremire, yambaye amadarubindi ku maso n'agapfukamunwa k'umukara mu isura, imbere yiwe hari mudasobwa.

Umuntu wambaye umupira uciyemo imirongo, ibara ry'umukara ndetse n'umutuku. wiyoroshe ikiringiti kirimo amabara y'ubururu ndetse n'umutuku. Uryayamye ku mashuka y'umweru, ku gitanda kigaragara nk'icyo kwa muganga.

Inzu y'igorofa ifite ibikuta by'umweru, imbere yayo hari abantu benshi higanjemo abambaye imipira y'ubururu, imbere hari imodoka ihagaze ndetse n'icyapa cyiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye umupira utukura ndetse n'ipantaro y'umukara ahagaze mu mbuga, akikijwe n'imodoka z'ubwoko butandukanye, zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, inyuma hari inzu y'igorofa.

Inyubako y'igorofa isakarishije amabati yanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, munsi hahagaze ahantu hateye n'ibiti.

Umugore uryamye ugaramye wambariye igitenge hejuru y'amabere, uteze n'ikindi mu mutwe, iruhande rwe hunamye undi wambaye amadarubindi ku maso na ga mu ntoki, yambaye imyambaro y'umweru igaragara nk'umpuzangano y'abaganga.

Umwana wambaye ikote n'ipantaro by'umukara, ari gusunika akagare k'abantu babana n'ubumuga kicayemo umuntu wambaye ishati y'umweru, imbere yabo hahagaze umuntu wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi.

Abantu bambaye amataburiya y'umweru, bahagaze iruhande rw'ameza, ateretseho akabati k'umweru, bahagaze mu cyumba, gifite ibikuta by'umweru n'amatara acanye hejuru.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abambaye imipira y'uburu y'amaboko magufi n'abambaye imipira y'umuhondo y'amaboko magufi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugabo wambaye imyambaro igaragara nk'impimpuzankano y'abaganga, wicaye ku ntebe y'icyatsi kibisi yambaye isaha ku kuboko, inyuma ye hari agatanda k'abarwayi ko mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ufite imisatsi iboshye ku mutwe, yambaye agapira kagufiya kagaragaza igice kimwe cy'inda, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uryamye hasi, wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'amaboko magufiya w'umuzungu, ari kugaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wambaye umupira n'ipantaro yumukara, yicaye hasi ukuboko kumwe kwe gufashe mu mavi, ukundi gufashe ku kirenge, agaragara nkuri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'isengeri y'umukara, yambaye inkweto z'umweru, ntagaragara igice cyumutwe, amaboko ye abiri yafatishije ku kirenge, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibinini byo mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, byegeranye n'imidari y'amashimwe, iruhande rwayo hari imbuto zitandukanye, harimo inanasi, amacunga ndetse n'imineke.

Umuntu uryamye ku gatanda k'umukara yubitse inda, wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, afite imisatsi iboshye ku mutwe, iruhande rw'iwe, hahagaze undi muntu wambaye ingofero.

Umuhungu wambaye imyenda y'umukara, wambaye inkweto z'umukara n'amagisi y'umweru, afite imisatsi yaboshye ku mutwe, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu ugaragara igice cy'igihimba, igice cy'umutwe kitagaragara, wambaye umupira w'icyatsi cyererutse, w'amaboko magufiya, afite umupira bakina, uri mu ibara ry'ubururu.

Umuntu ugaragara igice cy'igihimba, atagaragara igice cy'umutwe, wambaye umupira w'amaboko magufiya, wicaye mu ntebe z'umweru, afite ukuboko yashyize ku nkokora, gufashe igitambaro cyo mu imabara ry'ubururu.

Umuntu ugaragara igice cy'igihimba, wambaye isengeri, wazamuye ukuboko yikoze mu mugongo, ukundi gukoze ku nkokora, ufite imisatsi iboshye ku mutwe, yambaye isaha ku kuboko, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, wambaye agapira k'umweru gato kagaragaza igice kimwe cy'umugongo, afite imisatsi miremire, yazamuye amaboko hejuru, imbere yiwe hari ikiyaga.

Umuntu wambaye umupira wo mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi kibisi, afite igitambaro cy'umweru mu ijosi n'agasatsi gakeya, afite icupa yashyize ku munwa.

Umuntu wambaye itaburiya yo mu ibara ry'umweru, yambaye isaha ku kuboko, ukuboko kumwe kw'iwe gufashe ukuguru kw'umuntu wicaye, ukundi gufashe mu ivi, uwo muntu yambaye umupira wo mu ibara ritukura.

Umuntu wambaye inkweto ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, yambaye ikabutura ngufiya yo mu ibara ry'icyatsi n'agapira kagufiya, kagaragaza igice kimwe cy'inda, yazamuye ukuguru yifashe mu ivi, agaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri.

Imeza iteretseho ibyo kurya bitandukanye harimo imineke, inkeri, amagi, inyama, imboga ndetse n'ibinyampeke, hari n'igitambaro cy'umweru, hejuru yacyo hateretseho icupa

Umusore w'umuzungu wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto zirimo ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, yambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufiya, afite igitambaro cy'umuhondo ku rutugu, yambaye isaha ku kuboko, afite telefone ngendanwa mu ntoki, afite n'icupa yashyize kumunwa.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu bwijimye uciyemo imirongo yumweru iruhande rwiwe hahagaze undi muntu wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufiya yambaye isaha y'umukara ku kuboko.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka yo mu ibara ry'umweru, ifite ipine inyuma, iri mu bwoko bw'imbangukiragutabara, hakurya y'umuhanda, hari ibiti birebire.

Abantu bane bambaye amakabutura ndetse n'imipira y'amaboko maremare, bagaragara nk'abari kwirukanka, bakora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwabo hari ibyatsi.

Umuntu upfukamye n'ivi rimwe wambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'umukara, utagaragara igice cy'umutwe, usa nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wicaye ku kiringiti hasi, undi amuri inyuma yamwiyegamije yambaye umwenda uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, inyuma yabo hahagaze abantu bambaye imyambaro ishushanyijeho umusaraba mu gatuza.

Umugabo ugaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye ipantaro n'ubusa hejuru, uzengurutswe n'ibiribwa bitandukanye harimo amagi, imboga ndetse n'imbuto.

Umuntu uryamye hasi wambaye amasogisi yo mu ibara ritukura, iruhande rw'iwe hasutamye abantu babiri bambaye imyambaro y'umukara, umutuku ndetse n'umweru, hari n'abandi bahagaze iruhande rw'iwe bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Abantu bashushanyije mu buryo butandukanye, hari uwarambuye amaboko, usutamye n'uwashyize akaguru inyuma, bagaragara nk'abari gukora imyitozo ngororamubiri, hejuru yabo handitse amagambo.

Umuntu wambaye amasogisi y'umweru n'ikabutura ndetse n'umupira w'umweru, washyize ukuguru ku rutugu rw'umuntu umwicaye iruhande, wambaye isaha ku kuboko.

Umuntu wambaye ipantaro yo mu ibara ry'ubururu, n'agapira gato k'umweru kagaragaza igice kimwe cyinda, wazamuye amaboko h'ejuru ugaragara nkuyu mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wicaye hasi mu gisambu, wambaye ikabutura yo mu ibara y'icyatsi kibisi, iciyemo imirongo y'umweru ku ruhande, yambaye agapira gatoya kagaragaza igice cyinda, yifashe ku birenge, agaragara nkuri mu myitozo ngororamubiri.

Umugore upfukamye, wambaye impuzangano igaragara nk'iy'ababikira, imbere ye hicaye akana gatoya, hari n'umugore w'umuzungu ufashe ku kuguru uwo mwana.

Umuntu wambaye umwambaro urimo amabara y'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi kibisi afite igitambaro cy'umweru mu ijosi, afite icupa ry'amazi yashyize ku munwa.

Umukobwa wicaye wambaye ipantaro n'agapira k'umukara gatoya kagaragaza igice kimwe cy'inda, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri, imbere y'iwe hateretse mudasobwa.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'agapira kagufiya, kagaragaza igice gitoya cy'inda, ukuboko kwe gufashe ku kirenge ukundi gufashe mu ivi, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wicaye hasi, wambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara, n'inkweto z'umweru, n'agapira gatoya kagaragaza igice gitoya cy'inda, agaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri.

Umugore ufite imisatsi iboshye ku mutwe, yambagiye agapfukamunwa mu isura, yambaye ga z'ubururu mu ntoki, yifashe ku matwi, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa.

Isahani iriho amagi, inyama ndetse n'ibinyampeke, yegeranye n'iyindi iriho inkeri, imizabibu ndetse n'imineke, iruhande rwayo hari agatebo gatoya karimo imboga zitandukanye.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara, ivanzemo n'irindi bara rijya gusa ivu n'isengeri y'umukara n'inkweto z'umweru, ugaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri.

Umugore umeze nk'uryamye hasi w'umuzungu, wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rw'iwe hari imbuto zitandukanye, harimo imineke, imizabibu ndetse n'amacunga.

Umusore wambaye ubusa hejuru utari kugaragara mu isura, wambaye n'ikabutura yamba isaha y'umweru ku kuboko, yambaye n'inkweto zirimo ibara ritukura, ari kugaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Igishushanyo cy'umuntu wambaye inkweto z'umukara, ikabutura y'umukara n'umupira w'icyatsi, afite umusatsi ufungiye hejuru, agaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwiwe handitse amagambo.

Umuntu wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umukara, yambaye urukweto rumwe n'isogisi rimwe aricaye, hari undi muntu wambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu uri kumushyira igipfuko ku kuguru.

Umukobwa wicaye asobekeranyije amaguru yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara kagufi kagaragaza igice kimwe cy'inda, afite imisatsi iboshye ku mutwe, imbere ye hateretse icupa, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wicaye hasi yarambije wambaye ipantaro yo mu ibara ry'ubururu n'agapira k'ubururu gatoya kagaragaza igice kinini cy'inda agaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri.

Abantu babiri bambaye amakabutura ndetse n'amasengeri, umwe yambaye isengeri y'ubururu, yambaye n’isaha ku kuboko, bafite amacupa mu ntoki bagaragara nk'abari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wambaye ikabutura n'umupira w'umutuku afite umupira wo gukina mu ntoki, iruhande rwe hahagaze undi mugabo wambaye ipantaro n'umupira w'umukara, nawe afite umupira wo gukina muntoki.

Abantu benshi bamwe bicaye abandi babahagaze inyuma, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye n'ibitambaro mu mutwe, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, ku gikuta hari insakazamashusho.

Umuntu uryamye mukibuga bakiniramo umupira yambaye ikabutura y'umukara namasogisi y'umukara ndetse n'umupira w'ubururu iruhande rwe hapfukamye umugabo wambaye ikabutura y'umukara numupira w'ubururu umufashe mu ivi.

Aantu bambaye imyambaro y'umweru ndetse n'umukara, bari mu kibuga bakiniramo umupira, bagaragara nk'abari mu myitozo ngororamubiri, bazengurutswe n'abandi bantu benshi bari kubareba.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'umupira wo mu ibara ry'umukara wanditseho amagambo y'umweru mu gatuza, ari kugaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri, hanze hari kugaragara ibiti.

Umuntu wicaye yasobekeranyije amaguru, wambaye agapira ko mu ibara ry'umukara gato, kagaragaza igice kimwe cy'inda, imbere yiwe hateretse mudasobwa, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Amapapayi abiri, imwe ifite ibara ry'icyatsi kibisi, indi isatuyemo kabiri, ifitemo ibara ry'umuhondo mo imbere, harimo n'imbuto zo mu ibara ry'umukara.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira y'icyatsi kibisi y'amaboko magufi, bahagaze mu murima, urimo igikakarubamba, hakurya yaho hari ibiti.